Umugabo muremure w'imibiri yombi ufite agasatsi gake k'umukara, yambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara isaha ndetse n'ikarita imuranga mu ijosi, afite icyuma cy'indangururamajwi mu ntoki hirya ye hari abagabo bicaye nk'abari mu nama buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye.

Abantu benshi b'igitsina gore bicaye bareba mu cyerekezo kimwe, abo bantu bose bambaye imyenda itandukanye, ku ntebe bicayeho hazengurukijweho igitambaro cy'umweru, ku meza abari imbere naho hazengurukijweho igitambaro cy'umweru, imbere yabo bamwe muri bo hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye nk'abari mu nama, abagabo bane n'umugore umwe, umugore yambaye imyenda y'umuhondo n'amadarubindi, abagabo bambaye amakoti n'amashati, buri umwe imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Icyumba kinini kicayemo abantu benshi bicaye bakikije imeza nini, imbere ya buri muntu hateretse agacupa k'amazi yo kunywa, ku gice cy'epfo cy'icyumba hari igishushanyo kinini kiriho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro.

Abantu bicaye nk'abari mu nama iburyo hari umugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi muke w'umukara yambaye umupira w'umuhondo, hagati hari mugore w'imibiri yombi ufite umusatsi muremure w'umukara yambaye umupira w'umutuku, amadarubindi n'umudari mu ijosi, ibumoso hari umugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi w'umukara muke yambaye ishati y'ubururu bwerurutse.

Umunara muremure w'itumanaho ukoreshejwe n'ibyuma bisize irangi ry'umutuku, ndetse n'umweru, umunara uzitijwe n'ibyuma bishinze bigereranyije bisize irangi ry'ikigina.

Umunara muremure usize amarangi y'mweru n'umutuku akurikiranye, umunara hazamuyeho insinga ndende z'umukara zizamuka zikagera hejuru, umunara ukikijwe n'utwuma tuzengurutse turinda umutekano, iruhande rw'umunara hateye igiti.

Urupapuro rw'ubururu ruriho serivisi nshya zitangwa ku rubuga rucaho serivisi za leta rwitwa Irembo. Ikigo gitanga serivisi ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, icyiciro, mu butaka. Amazina ya serivisi ni, kuvugurura imbibi no gukora ubuso, kwandikisha no gucamo ibice inyubako ikubiyemo inzu zo guturamo.

Icyapa cyo kwamamaza urubuga rutangirwaho serivisi za leta rwitwa irembo handitseho kwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye hariho umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ubururu iruhande rwe hari igiterefone kinini inyuma yabo hari imodoka isize irangi ry'umweru.

Amapironi maremare y'umuriro w'amashanyarazi yubakishije ibyuma bigiye bisobekeranyije, hejuru haciyeho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye akaba ateye ahantu hari utwatsi twinshi.

Ipoto rirerire rifite ishusho y'umusaraba, ricaho insinga nyinshi, imbere yaho hari igipangu cyubakishije amatafari kizitiye kiriho itara hejuru ry'umweru.

Igipangu kinini kirekire hejuru y'igipangu hazengurukijeho insinga zikoze mu byuma, ku gipangu hashamikiyeho umuryango mugufi usize amarangi y'umweru n'umutuku, mu imbere mu gipangu harimo akazu karekare gacungirwamo umutekano hirya y'igipangu hari umunara muremure usakaza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Urupapuro rw'umuhondo ruriho urutonde rw'abantu bashya bahawe inshingano zo gukora muri serivisi za Leta ku rupapuro handitseho amazina ya buri muntu n'ibara ry'umukara ryijimye n'inshingano ihawe gukora.

Abaturage benshi bari mu nteko cyangwa se gacaca. Imbere yabo hicaye abayoboye inteko, bafite udutambaro ku ntugu tugizwe n' amabara y'idarapo ry' URwanda ariyo: Ubururu, umuhondo, icyatsi.

Inyubako nini yubakishije amatafari. Ku nyubako hejuru hariho icyapa cyanditseho, igihumbi magana acyenda, mirongo itatu. Munsi yaho, handitseho gereza. Imbere y'inyubako hari imfungwa nyinshi zambaye amashati n'amakabutura bisa iroza. Inyuma yabo hahagaze umugabo w'umucungagereza wambaye ibara rya kaki.

Inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro ifite inkingi ebyiri z'umutuku. Mu imbere mu nzu harimo umuriro mwinshi cyane, hanze hahagaze abagabo babiri bafite umupira uvamo amazi menshi bagerageza kuzimya uwo muriro.

Umugore wirabura afite umusatsi mwinshi w'umukara ari guseka yambaye umupira w'umweru, hasi yambaye igitenge kirimo amabara menshi atandukanye, ku kaboko yambaye agakomo.

Umuhanda wa kaburimbo hirya y'igice cy'umuhanda hari moto itwara abagenzi iruhande rwa moto itwara abagenzi hateye igiti kirekire inyuma y'igiti hari igipangu cy'umweru hirya y'igipangu cy'umweru hari inyubako ndende y'umweru .

Ibinyabiziga bitatu bikurikiranye imbere hari imodoka isize irangi ry'mweru, hagati hari moto itwara abagenzi, inyuma hari moto isize irangi ry'ubururu itwara imizigo, hirya yabyo hari inyubako igeretse rimwe, imbere y'inyubako hari kugenda abantu batandukanye.

Umuhanda mugari ufite indi mihanda ishamikiyeho, imihanda yombi inyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, moto zitwaye abantu ,moto zitwaye imizigo, imodoka ntoya zitwaye abantu, ibikamyo binini bitwaye imizigo. Imihanda yombi ikikijwe n'ibyapa byamamaza , hirya y'imihanda hateye ibiti.

Umuhanda w'amabuye uca hagati y'ibipangu, ibumoso hari igipangu gisize irange rya kaki gifite umuryango w'ikigina cyegeranye n'itara ryo ku muhanda, iburyo hari igipangu cyubakishije amatafari, cyegeranye n'ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi.

Inzu ndende igeretse ku gice cyo hejuru k'inzu hashushanyijeho moto, ku gice cyo hasi hashushanyijeho amabara y'umweru n'ubururu handitseho banki ya Kigali ishami rya Giporoso, hasi haparitse abamotari ndetse n'abandi bagenzi banyuraho, imbere y'iyo nzu igeretse hateye utwatsi ndetse hateye n'indabyo zikikijwe n'amabuye.